Umwana w'umukobwa aho arimo akaraba ari kuri kandagira ukarabe, iriho indobo y'umukara ndetse ikaba iriho n'akabase gasa nk'aho ari umweru.

Gutera imboga biri mu bintu umuntu wese aba agomba kwitaho, kuko imboga ziri mu bikenerwa mu ifunguro rya buri munsi.

Inama ikoranyije abanyamigabane ba kampani imwe, aho barimo biga ku kibazo cy'imigabane yabo.

Abayobozi batandukanye aho bitabiriye inama, barimo baganira ku kibazo cy'ubuzima, imbere yabo buri wese akaba afite imashini arimo akoresha ndetse n'agacupa k'amazi arimo anywa.

Ababyeyi bajyanye abana babo kwa muganga, aho bari kwitabwaho n'abaganga babizobereye babaha imfashabere ndetse n'ibindi.

Abana benshi kandi batandukanye bari mu ikigero cy'imyaka icumi na cumi n'irindwi, aho barimo bakina n'amazi kuri robine rusange.

Kwa muganga hahurirayo abarwayi b'ingeri zose, abarwaye malariya, igituntu, abana, urubyiruko, abakuru ndetse n'abasaza.

Ikibazo cy'ubuzima, ni ikibazo kivugwaho n'abantu batandukanye, abirabura, abazungu, abanyafurika, abanyaburayi, ndetse n'ahandi.

Abantu benshi cyane b'ingeri zose, harimo abapapa, abamama, abana, abasaza n'abakecuru, aho baje mu kirori bavuye impande n'impande.

Umumama uri kumwe n'abana bakiri bato, benshi bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na cumi n'itanu, aho barimo bifotoza bishimye cyane.

Urubyiruko rutandukanye aho rwahuriye hamwe, rwambaye inifomo, umweru, umukara, ruri kwifotoza bishimye cyane bishimira ibyo rwagezeho.

Umumama uri kuvoma amazi ku mugezi aho yazanye amabido menshi, hafi yaho umugezi uri hakaba hari igihuru kinini cyane.

Abamama batatu, aho barimo bandika bafite amakayi imbere yabo ndetse n'ayandi mu ntoki hamwe n'ikaramu, ubona ko bafite amaraporo barimo buzuza.

Ababyeyi bajyanye abana babo kwa muganga, aho barimo babitaho babaha ibere ndetse babacecekesha kugira ngo batarira.

Abantu benshi harimo abana, abakuru, abasaza, bateraniye hamwe kugira ngo baze kureba umumama ufite ikibazo, bose bakaba bamushungeye.

Umumama uri kuvoma amazi kuri robine, afite n'umwana mu ntoki, amukikije igitambaro kugira ngo atagwa.

Abapapa ndetse n'abamama aho basuye abana ku kigo, bakaba babaha amata mu nkongoro ndetse no mu bikombe kugira ngo abo bana bakure bameze neza.

Umugabo wagiye kuri robine kuvoma, aho yamaze kuvoma akaba yicaye ku kidomoro cye, arimo aseka kandi yishimye cyane.

Abana bagiye kuvoma kuri robine kinyarwanda, isaba gusunika igiti kiba kiri inyuma kugira ngo amazi aze.

Umwana uri kuri robine, aho ari gutega amazi ayanywa, ayo mazi arimo aturuka kuri robine, akoresheje ibiganza bye.

Umuganga aho ari kumwe n'umusaza n'umwana we, arimo apima umusaza ngo arebe icyo arwaye.

Umumama wajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamutere urushinge rumuvura indwara zitandukanye, muganga akaba arimo amukingira akoresheje urushinge.

Abantu benshi aho bari imbere batonze umurongo, hakaba harimo abirabura n'abazungu, abamama ndetse n'abapapa, aho bari kwifotoza bose bifashe neza kandi bishimye cyane.

Abajyanama b'ubuzima aho bateraniye mu nama bose bari hamwe, bambaye inifomu itaburiya yabo y'ubururu, bakaba baje mu nama kumva no guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima.

Umupapa na naba mama babiri aho bari guterura umufuka uremereye cyane bawuzamura kugira ngo bawushyire hejuru y'indi mifuka irimpande yabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo bararya ibiryo biryoshye, akawunga ndetse n'ibishyimbo, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'inifomo barimo barya bishimye.

Umwana wajyanwe kwa muganga, kugira ngo apimwe ibiro kugira ngo barebe ingano y'ibiro bye, bamenya nimba ari gukura neza cyangwa imikurire ye itari kugenda neza kugira ngo afashwe.

Ababyeyi batandukanye bazanye abana babo kwa muganga kugira ngo bakingirwe bityo barindwe kwandura indwara zitandukanye.

Umwana w'umukobwa aho ari gukaraba intoki n'amazi ndetse n'isabune kugira ngo yirinde umwanda.

Imigezi ya kinyarwanda, ni imwe mu migezi ikiriho, cyane cyane mu duce tw'icyaro aho kuvoma bisaba imbaraga cyangwa ingufu.

Abantu benshi bateraniye ahantu, aho bari kwiyandika, kuri lisite zigiye zitandukanye, imbere yabo hari abantu babiri bari kubafasha, bakagenda babandika umwe kuri umwe.

Umupapa uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, n'umwana uri mu kigero cy'imyaka irindwi, aho barimo bakina udukino dutandukanye imbere y'abantu, abo bantu babashungereye.

Umumama wajyanye umwana we kwa muganga kumupimisha, muganga akaba ari kumupima mu nda bisa nkaho uwo mwana arwaye inzoka.

Abantu benshi harimo abamama, abapapa barimo baterura imifuka irimo ibintu biremereye.

Ababyeyi aho bari mu nama barimo baganira ndetse bungurana ibitekerezo ku kibazo cy'ubuzima.

Robine ni ahantu dukura amazi yo kunywa, koga cyangwa gukoresha ibindi bintu bitandukanye. Ishobora kuba iya kinyarwanda cyangwa iya kizungu bitewe n'uko yubatse.

Kwa muganga ni ahantu haba ibyuma bitandukanye, bifasha mu kubaga, ibifasha mu kudoda, ndetse n'ibindi bikora akandi kazi gatandukanye.

Umwana uri kuri robine, aho arimo akaraba intoki n'amazi meza kugira ngo yirinde umwanda n'indwara zandurira mu mwanda.

Kwa muganga n'ahantu haboneka ibyapa byinshi cyane ndetse n'ibimenyetso biyobora abahagana. Kuva ku muganga umwe ujya ku wundi, mu cyumba kimwe ujya ku kindi, Aho hose haba hari ibimenyetso cyangwa ibyapa biyobora abarwayi.

Abana benshi ndetse n'abapapa aho bagiye kuvoma amazi kuri robine bakoresheje ibijerekani byabo.

Umu mama aho ari koza umwana we, akoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo amurinde umwanda.

Abantu benshi bicaye mu itsinda, imbere yabo hari imeza, barimo baganira kandi bungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye.

Abana babiri b'abahungu, bo barimo bakaraba bakoresheje indobo n'isabune, boza ibirenge ndetse n'intoki zabo.

Abamama babiri, hamwe n'umwana, aho baje ku mugezi, bitwaje amajerekani menshi, baje kuvoma amazi.

Abamama batandukanye aho bagiye kwa muganga kwipimisha, muganga akaba arimo abapima kugira ngo amenye uko ubuzima bwabo buhagaze bityo abashe kubakurikirana.

Abantu benshi harimo abapapa n'abamama bagiye mu nama, imbere yabo hari abayobozi bahicaye bagera muri batandatu, bari kugenda bungurana ibitekerezo ku kibazo cy'ubuzima.

Umwana w'umunyeshuri aho avuye kudaha amazi ku gitega, akaba agiye kuywa, afite uturahure tubiri aho adufashe aseka cyane.

Abantu benshi harimo abapapa n' abamama, bateraniye ahantu mu nama, bakaba bambaye inifomo, umupira w'umweru kandi usa kuri buri bose, ubona ko baje gukurikirana igikorwa kirabera aho muri iyo nama.

Abantu batandukanye aho baje kuri robine, bitwajemo ibidomoro, amabase, amasafuriya, n'ibindi bikoresho byabafasha gutwara amazi.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi, harimo abapapa, abamama, abasaza n'abakecuru, abirabura ndetse n'abazungu, aho barimo bifotoza ifoto y'urwibutso.

Robine ziboneka mu buryo butandukanye ndetse zikaba zarubatswe mu buryo butandukanye. Hari iyo bavoma bakanda, hari iyo amazi ahora yisuka, hari n'iyo bisaba ko basunika kugira ngo bavome.

Robine iriho amazi meza, ni kimwe mugikenerwa na buri muntu wese, kuko amazi ari isoko y'ubuzima.

Umwana w'umuhungu, uri kunywera amazi kuri robine, akoresheje ibiganza bye kandi yaje kuvoma afite ibase yuzuyemo amazi.

Amazi ni ibinyobwa umubiri wa muntu ndetse n'uw'izindi nyamaswa ukenera kugira ngo ubashe gukora neza. Akenerwa kandi n'ibimera, ibiti ndetse n'ibindi binyabuzima kugira ngo bibeho kuko ari ingirakamaro.

Abaforomo b'ikigo nderabuzima cya Girubuzima, aho barimo bifotoreza imbere y'ikigo nderabuzima cyabo.

Ababyeyi babiri ndetse n'abana babo bagera muri bane, aho barimo bifotoza bishimye ndetse banezerewe cyane.

Abamama aho bari kubyina bishimye bateze amaboko, abandi barimo babakomera amashyi kugira ngo babyine neza.

Abantu bari mu bukwe, aho bicaye barimo bafata ibyo kurya n'ibyo kunywa, bishimiye gukurikirana imihango y'ubukwe batuje.

Abantu bagera muri bane aho bari imbere kuri siteji, imbere yabo hari abandi bantu benshi ubona ko bameze nk'abari kuba kubashimisha cyangwa kubasetsa.

Abaganga b'ingeri zitandukanye, aho bari mu nama, biga kibazo cy'ubuzima, bungurana ibitekerezo kandi baseka cyane.

Abana, bari mu bantu bafatwa n'indwara nyinshi; malariya, inkorora ndetse n'izindi, bityo bikaba ngombwa ko bahora bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho.

Abaganga bari mu bantu bahora bakeye kandi batuje, muri iyo mpamvu baba bagira ngo bisanishe n'abarwayi bityo babashe gukora akazi kabo neza.

Abagabo babiri bahagararanye, barimo baganira, bari ahantu mu isoko bahuriye bari baje guhaha.

Umugabo uri imbere y'abantu benshi arimo abagezaho ijambo, aho muri abo bantu harimo abapapa, abamama, ubona ko bakomeye, imbere hakaba hariho umwana wicaye, hakabaho umupolisikazi ndetse n'abandi bantu benshi.

Imigezi kandi ifite amazi, biri mu bintu byagejejwe ku mashuri, bitewe n'icyorezo cya Korona virusi, ibi byakozwe kugira ngo harindwe ko cyakomeza gukwirakwira.

Abana bagera muri batandatu aho bari ku migezi itatu ya robine barimo bavoma abandi bakina n'amazi ubona ko bishimye kandi banezerewe cyane.

Umumama uvuye kuvoma amazi wikoreye ijerekani, ari kumwe n'abana babiri umuhungu ndetse n'umukobwa.

Abantu batandukanye aho bari aho bishimye, bafite icyapa cya UNICEF imbere yabo, bifotoza, baseka kandi banezerewe cyane.

Abana n'abantu baba bagomba kwitabwaho umunsi ku wundi, bakarindwa indwara bakavurwa kugira ngo ubuzima bwabo bubeho neza.

Umumama urimo akaraba akoresheje isabune n'amazi meza aturuka muri kandagira ukarabe, yikoreye ikoresheje ibiti bisanzwe ndetse n'akabido, akaba akaraba yishimye cyane.

Abana bagiye kuvoma bajyanye amabido kuri robine ya kinyarwanda, imwe bavoma bisabye gusunika, akaba ari abana bane bityo umwana umwe akaba ari gusunika kugira ngo amazi aze.

Inama ni igikorwa gihuza abantu benshi mu gihe bafite ingingo barimo kwigaho, inama ikagira umuntu uyiyobora, akaba ari we muhuza w'amagambo, akaba ari we uba ufite ingingo yateganyije kugira ngo ize kwigwaho mu nama, bityo akaba ari we utangiza kandi agasoza inama.

Abamama bagera muri batatu, bagiye kwa muganga kwipimisha, bityo muganga akaba ari imbere yabo, agenda abapima areba uko bahagaze kugira ngo abahe imiti.

Abantu benshi, aho bicaye mu ntebe nziza bari muri sare, bateranye harimo abayobozi n'abandi bantu batandukanye biga ku kibazo cy'ubuzima.

Abaganga bambaye inifomo, itaburiya y'umweru harimo n'umuzungu, barangije akazi bifotoza bishimye kandi banezerewe cyane.

Abayobozi bari mu nama, imbere yabo hakaba hari amacupa arimo amazi, hakaba hari indabyo nziza cyane, bakaba buri wese afite agakayi arimo yandikaho, inama ikaba irimo abirabura, abazungu ndetse n'abandi.

Kandagira ukarabe, ni bimwe mu bikoresho bije vuba cyane gusa cyazanwe n'icyorezo cya koronavirusi. Ni igikoresho umuntu amanikaho amazi, bityo akabasha gukaraba adakoze ku kabido cyangwa ikindi gikoresho kiba kirimo amazi.

Aba mama babiri bicaye imbere kandi bambaye neza umwe akaba yipfutse igitambaro bakaba bari imbere y'abandi bantu bishimye kandi banezerewe cyane.

Umuforomokazi uri imbere y'abantu benshi bari mu nama, aho ari kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bakwirinda indwara.

Abamama batandukanye aho baje kuvoma ku ivomero rusange, umwe akaba arimo anywa amazi akoresheje ibiganza bye, anywa ava amazi kuri robine.

Umwana agiye kuvoma aho arimo akina n'amazi yishimye kandi aseka cyane.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, aho arimo akarabira mu kabase, akaraba intoki kugira ngo ajye ku ishuri.

Abantu benshi harimo abamama, abapapa ndetse n'abandi barwaye, bakaba bagiye kwa muganga kwivuza, hakaba harimo n'abafite abana ndetse n'abandi.

Abanyeshuri benshi, aho bari ku ishuri bambaye inifomo, bafite udukombe bose, aho bari kuza kuvoma amazi yo kunywa, ku kigega cyabugenewe.

Umwana wajyanywe n'umubyeyi we kwa muganga, akaba afite umusatsi urimo utunigi dutatsemo, muganga akaba arimo amutera urushinge ku kuboko.

Abantu batandukanye harimo abapapa, abamama, abana, abakuru ndetse n'abatoya aho bateraniye ku Kagari kugira ngo bumve ubutumwa buri mu nama iri kuhabera.

Umumama uvuye kuvoma wikoreye indobo, atwaye n'indi mu ntoki aho arimo ajya mu rugo.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi izinze, wambaye agakanzu keza n'agashati, aho arimo akaraba kuri robine.

Imodoka nini cyane ifite amakontineri menshi cyane kandi iheka ibiro byinshi, aho iri kugenda mu muhanda yikoreye ibintu.

Umupapa agiye kuvoma kuri robine, aho yarangije kuvoma akaba yicaye arimo yisekera.

Umumama uhagaze imbere y'abantu benshi, ufite ikarita akaba yambaye n'ijire, aho arimo agenda aha buri wese igipapuro cyanditseho amagambo kugira ngo aze kugisoma.

Abaganga n'abaforomo aho bari kwifotoza bose bari hamwe, bishimye kandi banezerewe cyane.

Umwana wagiye kuvoma amazi kuri robine ndetse n'abandi bana benshi baje kuvoma, batumwe n'ababyeyi babo.

Umugabo n'umumama bahagararanye, aho umumama afite umwana mu ntoki, bombi bakaba bafite n'impapuro ndetse hari n'izindi ziteretse ku ntebe iri imbere yabo.

Abaturage benshi, bari gushungera umumama hamwe n'umwana, bari ku mugezi ubwo baje kuvoma, bafite n'amajerekani yabo.

Abakozi ba leta bari kwita ku banyeshuri babaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, harimo; amata, amazi, ndetse n'ibindi byabafasha kugira ngo bakure neza.

Umwana uri ku kigega, aho arimo avoma amazi aturuka mu kigega, akoresheje agakombe, akaba agiye kuyanywa.

Abana ni abantu bakina n'amazi, iyo babatumye kuvoma baratinda cyane. kuko iyo bagezeyo barayakinisha, bakayarwaniramo, ndetse n'ibindi bikorwa bituma batinda ku mugezi.

Umuganga aho arimo yita ku barwayi baje kwivuza, abaha imiti n'ubundi bufasha bwatuma bamererwa neza.

Umupapa wagiye kwa muganga, aho yagiye gufata ibikoresho bitandukanye, ashobora kwifashisha mu rugo rwe, we n'umuryango we.

Abana batatu bambaye inifomu bakaba barimo bakaraba mu migezi itatu itandukanye, bakoresheje amazi n'isabune kandi bishimye cyane.

Umuntu, urimo ukaraba intoki, kuri kandagira ukarabe n'amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo yirinde indwara.

Abantu benshi barimo bifotoza, harimo abamama, abapapa, abasaza, hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu aho bari kwifotoza, inyuma yabo hariho igitambaro gishushanyije amagambo menshi.

Abana bari mu bantu bakoreshwa imirimo ivunanye. Bityo, ibi bikabakurira ingwingira, kudakura neza ndetse n'ubundi burwayi.

Umusaza afite ikibazo cyo mu mutwe, aho yigunze. Yambaye imyenda yacikaguritse, afite amazi mu ntoki. Ubona ko abuze ibyo akora n'ibyo areka.

Umwenda w'umweru ufite amaboko y'ubururu hamwe n'ijosi ry'ubururu wambarwa n'abantu.

Umumama wicaye, wipfutse igitambaro mu mutwe, ndetse akaba yicaye ku gatebe, arimo areba ubona ko adafite iyo ajya n'iyo ava, bisa nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umu mama uvuye gushaka ibyo kurya, aho yikoreye agatebo kariho ibijumba afashe n’isuka mu ntoki, avuye mu murima.

Umupapa uri mu nama, aho ari kubwirara abaje mu nama, harimo abamama, abapapa ndetse n'abandi, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganga w'inzobe ubyibushye kandi wambaye inifomo, aho ari kwerekanwa ku ifoto nk'umuntu umeze neza ubereye akazi ke.

RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwa muntu, aho bukomeje guhangana n'uburwayi bwo mu mutwe, buhora bwibasira abantu benshi, buri munsi.

Ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe aho kiba gikomeje gukwirakwira mu bantu benshi uko imyaka igenda yiyongera, bityo kikaba gikwiye kwitabwaho uko bikwiye.

Umupapa wipfutse mu maso, aho ari kurira kubera ibibazo bitandukanye yahuye na byo. Ibyo bikaba byamuteye intimba ndetse n'agahinda.

Abana, abamama, abapapa, abasaza ndetse n'abakecuru aho bitabiriye ukwiyamamaza kwa Perezida wa Repubulika, bakaba babyishimiye bamanika utudarapo twabo kandi banezerewe.

Abana ubona ko bari mu kigero cy'imyaka cumi n’icyenda na makumyabiri n'umunani aho barimo barira basaba imbabazi bambaye imyenda yacikaguritse kandi babambitse amapingu bisa nkaho bafite icyo bakoze bityo polisi ikaba yabafashe.

Abaganga b'uburwayi bwo mu mutwe, ni abantu baba bagomba guhozaho, bagahora bakora ibiganiro byinshi, ahantu henshi, kugira ngo budakomeza gukwirakwira kuko ari kimwe mu bintu biri kuri iyi si.

Abantu benshi aho bateraniye mu nama muri sale nini, hakaba harimo abantu b'ingeri zose, abamama, abapapa ndetse n'abandi, aho imbere yabo hariho abantu babiri bafite mikoro.

Umupapa n'umumama aho bicaye ku ntebe, imbere yabo bafite terefone kandi bafite n'amazi abateretse imbere barimo baganira.

Abana benshi bari ahantu harimo abahungu n'abakobwa ubona ko bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ine, cumi n'itanu, cumi n'itandatu aho barimo baseka bishimye kandi banezerewe cyane.

Umusaza ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe uri kureba amaso cyane, akaba yambaye ikabutura ndetse n'umupira w'umutuku, bakaba bamwambitse amapingu kugira ngo hatagira uwo akomeretsa.

Agakoresho gapima umuriro, biri mu bikoresho muganga yifashisha iyo ashaka kureba umuriro umuntu afite, bityo bikamufasha kumenya uburwayi bwawe n'uko akuvura.

Ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe n'uburwayi bwo mu mutwe, ni ikibazo kiba kigomba kuganirwaho ahantu aho ariho hose ndetse n'abantu aribo bose, kugira ngo bacyirinde.

Umugore wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeanette Kagame aho ari kugeza ijambo ku baturage, ikibazo kijyanye n'ubuzima muri rusange.

Abakobwa babiri aho bicaye hamwe bari kuganira, imbere yabo hateretse udupupe tubiri dukoze mu bantu ndetse umwe muri bo afite n'agapupe gakoze mu ngwe.

Abaganga b'indwara zo mu mutwe barimo abapapa n'abamama, aho barimo bifotoza ifoto barangije akazi kabo.

Abana bakiri bato bari mu bantu bakunda guseka kandi bagasekera uwo babonye wese, haba umwanzi, umukunzi ndetse n'ibindi.

Umuryango cyangwa udutsinda tw'abantu umuntu abarizwamo n'uburyo dushobora kugira uruhare cyangwa guhindura imitekerereze ye.

Abamama aho barimo baririmba, bishimye, banezerewe, bizihiza umunsi mukuru.

Umukobwa mwiza ufite umusatsi, akaba yambaye agakote k'umutuku, arimo aseka ubona ko anezerewe kandi yishimye cyane.

Umwana uri ahantu mu isoko, ari kumwe n'umumama, umwana arimo arira cyane, yifashe mu mutwe, ababaye.

Isange one stop center, ikigo igihugu gishinzwe kwita no gutanga ubutabazi bw'ibanze ku banyagihugu, cyane cyane abahohotewe ndetse n'abandi.

Abantu benshi bari mu muhanda, harimo abapolisi, abaturage n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye, bafite mikoro ndetse n'igitambaro cyanditseho, ukurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Umupapa ubyibushye cyane ndetse muremure, aho ahagaze imbere y'indabyo, yifashe neza kandi yunamye.

Aba mama batatu bahagaze ubona ko bavuye mu kazi, umwe afite n'isuka undi akaba afite umwana n'umufuka uwo mwana akaba ari ku nkotsi.

Abana benshi batandukanye bari mu kigero cy'imyaka irindwi, umunani, icyenda aho bari kumwe n'umukecuru bicaye ku gasambi barimo, baganira ababwira ku mateka ndetse n'udukuru.

Ibikorwa by'ubugoryi, kwambara nabi, kwitesha agaciro, ndetse n'ibindi, ni bimwe mu biranga abasazi, gusa na bo babikora batabizi.

Imashini n'ibindi bikoresho bihenze, harimo intebe nziza ndetse n'ibindi byose bifasha muganga mu gukora amenyo y'abarwayi ndetse no kuyavura binyuze mu buryo bworoheje.

Amenyo y'abana, biri mu bintu biba bigomba kwitabwaho bakiri bato, akarindwa uburwayi kugira ngo bakure bafite amenyo mazima.

Umuntu babaza amenyo bityo abaganga bakaba bari kuyatunganya bayagira neza kugira ngo ayasubirane ari mazima nta kibazo afite.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga ukura amenyo, kugirango muganga abashe gukura uwo umurwayi yoroshye kandi atababara cyane.

Akana gatoya kambaye ingofero kicaye ku ntebe gafite uburoso, karimo kiborosa amenyo yako kandi aseka cyane.

Iyo umuntu amenyo ye agize ikibazo, nk'uburwayi cyangwa indi impamvu, ayajyana kwa muganga. Bityo bakabasha kuba bayamukuriramo, akazamera andi iyo akiri umwana, gusa iyo ari mukuru ntayandi amera.

Umwana agiye kwa muganga, aho muganga arimo amukura iryinyo akoresheje utwuma twabugenewe kugira ngo atamubabaza.

Umurwayi agiye kwa muganga kw'ivuza amenyo, aho ari kwitabwaho na muganga koreshejwe ibyuma bigezweho.

Umuntu uri gushaka gushyiraho amenyo yunganira aye, kugira ngo arinde amenyo ye kuzahura n'ikibazo.

salle y'ibitaro aho harimo intebe zigiye zitandukanye kandi zikoze mu buryo butandukanye zifasha abarwayi kugira ngo bazicareho banegame iyo baje kwivuza.

Umwana agiye kwa muganga kwikuza iryinyo ryari ririmo rimurya, aho muganga ari kumurebera kugira ngo arimukuriremo.

Ibikoresho byo kwa muganga bifasha muganga mu gukora ndetse no gukura amenyo, harimo intebe, harimo mashini ndetse n'ibindi bimufasha gukora akazi ke neza kandi.

Umwana uri kwa muganga aho yagiye kwikuza amenyo muganga akaba afite udukoresho twabugenewe tumufasha gukura akaba agiye kumukura.

Umupapa wambaye umupira w'umweru, akaba arimo aseka cyane, bisa nk'aho afite ikintu kimushimishije cyangwa ikindi kintu kiri kumusetsa bityo akaba yasetse cyane.

Umupapa w'umuganga aho yicaye ku gatebe ku bitaro arimo yishimye, arangije akazi ke aruhuka.

Umuganga wasuye ishuri akaba ari kumwe n'umunyeshuri n'abandi barimu imbere, aho ari kwigisha umunyeshuri uburyo ki yakoza amenyo ye neza akayarinda umwanda.

Ubuvuzi bw'amenyo ni kimwe mu bintu byateye imbere. Aho kwa muganga basigaye bakoresha imashini, ibyuma n'ibindi bikoresho byinshi bifasha mu kunoza uyu murimo neza.

Abana bakiri bato b'abahungu n'abakobwa bambaye inifomo, aho barimo biborosa bakoresheje uburoso, korogati n'amazi kandi bishimye.

Umurwayi uri kwa muganga, akaba aryamye ku gitanda agaramye, aho muganga ari impande ye, arimo apima umuti agiye kumuha kugira ngo aze kumererwa neza.

Abana bari ku ishuri hamwe na mwarimu wabo aho bishimye cyane, bamaze guhabwa umuti w'amenyo uzabafasha gusukura amenyo yabo.

Ibikoresho byifashishwa mu burwayi bw'amenyo, mu kuyakura cyangwa kuyavura, ni ibikoresho bigezweho ndetse bikora neza bityo bigafasha abarwayi mu gukura arwaye ndetse no kuvura akiri mazima.

Kuburosa amenyo biri mu bintu bituma amenyo y'umuntu abaho neza, bikayarinda kurwara, bikayarinda udukoko n'ibindi bintu byatuma akuka.

Intebe zo kwa muganga, zikoze mu buryo bwiza, zifasha abarwayi iyo bagiye kwa muganga kwivuza kugira ngo bavurwe bameze neza.

Umumama wagiye kwa muganga kwivuza bityo muganga akaba arimo amusuzuma amenyo, muganga akaba yambaye itabuririya, agapfukanwa ndetse na ga mu ntoki.

Amenyo yacu biri mu bintu tuba tugomba guhora dukontorora, tukayasukura neza cyane ndetse tukayarinda n'uburwayi.

Umumama wagiye kwa muganga aho aryamye mu gitanda abaganga babiri barimo bamusuzuma, aho bagiye kumukura amenyo bakoresheje utwuma twabugenewe.

Abaganga babiri bambaye inifomo n'udupfukamunwa aho bari kureba umwana, bamurebera ku kibazo cy'amenyo ye kugira ngo bayavure cyangwa bayakure.

Umwana uri kumwe na muganga, hakaba hari n'abandi bantu bagera muri bane, muganga ari kumwe nawe amwereka uburyo ki baborosa amenyo bagakuramo imyanda.

Amenyo kimwe mu ngingo z'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, uko aba ateye umubiri udahari.

Umuntu wagiye kwa muganga kwikuzamenyo, aho muganga amaze kumukura akoresheje ibyumba byabugenewe.

Abakecuru benshi aho barimo babyina, bakimbagira kandi bishimye.

Umumama urimo gukora siporo, yicaye ku gasambi, ananura amaguru ye, ananura amaboko ndetse n'izindi ngingo z'umubiri kugira ngo amererwe neza.

Umuryango uba ugizwe n'umumama, umupapa ndetse n'abana, gusa haba hari bamwe badashobora kubona abana bityo bakaba bakihangana.

Umupapa urwaye wagiye kwa muganga kubera ikibazo cy'umugongo, bakaba bamuhaye imfashangingo izaza imufasha akaza ayigenderaho kugira ngo amere neza.

Abakecuru n'abasaza ni abantu baba bagomba kwitabwaho, bagahabwa inama, bakababa hafi kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Umumama n'abana be babiri, aho barimo barya imboga, baseka kandi banezerewe cyane.

Ni umupapa hamwe n'umwana we w'umukobwa, aho bicaye bakina, baseka kandi banezerewe cyane.

Umukecuru uri kunywa imiti yakuye kwa muganga akoresheje amazi, akaba ari umukecuru ushaje ufite imvi nyinshi ndetse akaba yambaye n'amadarubindi.

Umupapa ushaje hamwe n'umukecuru bafite imvi ku mutwe, aho barimo bakina imikino itandukanye , bityo ikabafasha kwishima no kwinezeza.

Abasaza bari mu bantu bahabwa inyunganirangingo nyinshi, bitewe n'ibibazo bafite, iby'amaboko iby'amaguru cyangwa izindi ngingo.

Umupapa uvuye kwa muganga bisa nk'aho arwaye ikibazo cy'umugongo, muganga akaba yamuhaye insimburangingo n'utundi dukoresho azajya akoresha agenderaho kugira ngo bimurinde uburibwe.

Umukecuru aho arimo afata imiti yandikiwe na muganga, ayinywa ndetse akoresheje n'amazi mu kirahure.

Umusaza n'umukecuru, aho barimo bafata imiti igiye itandukanye bagiye bakura kwa muganga, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubaho neza.

Abantu batandatu, harimo abapapa, abamama ndetse n'abana, aho barimo bifotoza, baseka cyane kandi bishimye.

Umuforomokazi aho arimo avura umukecuru amurinda indwara, amwitaho kugira ngo ubuzima bwe bukomeze.

Umupapa umwe n'umuhungu we, aho barimo basoma igitabo, baseka bishimye, ubona ko bashimishijwe n'inkuru bari gusoma mu gitabo kandi banywa n'agakawa.

Isoko ririmo abamama batandukanye, aho bajya gucuruza imbuto ziribwa; nk'amapera, amarongi bafite kandi inyanya ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Umuforomo, aho ari kumwe n'umupapa ushaje, waje kwivuza. Akaba arimo amufata umuriro, akoresheje akuma kabugenewe.

Abantu benshi barimo bataha bambaye imyenda isa n'imipira, imikenyero ndetse n'ibindi, hakaba harimo abana, abakuru ndetse n'abakecuru, aho imbere yabo hari abakecuru babiri bambaye neza bafite n'inkoni icumbye.

Umuryango w'abantu batandatu harimo abana, abapapa, abamama n'abasaza aho barimo baganira ku ngingo zitandukanye ndetse banasekana.

Abamama bageze mu zabukuru ni abantu tuba tugomba kuganiriza cyane kugira ngo tubarinde ubwigunge.

Abantu batandukanye harimo aba papa n'aba mama, abayobozi ndetse n'abandi, aho bateraniye mu rugo rw'umukecuru umwe bamuzaniye ibikoresho, baba bari kumufasha.

Ibinini biri mu bintu umurwayi ahabwa iyo yarwaye, akabirya cyangwa akabinywa, igihe bisukika, bityo bigatuma yoroherwa cyangwa akira.

Abasaza, abakecuru, ni abantu baba bagomba kwitabwaho, bakagirwa inama, bakaganirizwa ndetse bagahorwa hafi.

Umupapa muremure hamwe n'umwana w'umukobwa, ushobora kuba ari muganga, aho umupapa afite utu ariteri mu ntoki agenda akora udusiporo kugira ngo intoki ze zigororoke.

Umumama ushaje ufite imvi mu mutwe, aho arimo akora udusiporo akoresheje utu ariteri arimo aterura mu maboko akagenda azunguza kugira ngo ananure amaboko ye.

Abantu batandukanye harimo abakuru n'abatoya bifotoza bishimye bafite ibinyamunezaneza kandi baseka cyane.

Abamama barimo basoroma icyayi, bagishyira mu dutebo twabo, bagitunganya kugira ngo bajye kukigurisha mu ruganda.

Umusaza n'umumama aho bari mu rugo, imbere yabo hakaba hari imashini ndetse bafite n'uducupa turimo imiti, bisa nk'aho uwo musaza agiye kuyinywa, arimo areba mu icupa areba umuti uwo ari we.

Umwana n'umukecuru, aho bahagararanye, umukecuru afite aka ariteri mu ntoki, umwana arimo amukoresha siporo zitandukanye kugira ngo uwo mukecuru bimurinde ubumuga bityo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Abantu benshi bitabiriye ubukwe, bari mu kigero gitandukanye, harimo abana, abakuru n'abatoya, abasaza ndetse n'abakecuru. Aho imbere hariho umusaza n'umukecuru bari kumwe kandi bakenyeye.

Umukecuru w'imyaka, iri hagati ya mirongo itandatu n'itanu, na mirongo irindwi, aho arimo atekeye hanze, ku mashyiga atatu udusafuriya tubiri kamwe igapfundikije kandi, agenda akoranya, kugira ngo umuriro utamuzimana.

Aba mama bakuze nabo bari mu bantu baba bagomba gukora siporo, bagatembera kuko kwicara mu rugo bibakuriramo uburwayi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, uri hagati y'imyaka mirongo irindwi n'itanu na mirongo inani, aho ari kumwe n'umuforomo basuhuzanya kandi bishimye.

Abamama, aho barimo basoro icyayi bakoresheje agatebo, bishimye kandi baseka cyane.

Umumama n'umwana we aho bari kumwe, bagenda bakina imikino itandukanye ku meza bishimye kandi barimo baseka cyane.

Umusaza, aho arimo arera umwana we, bakina, amusekera kugira ngo uwo mwana ataza kurira.

Abantu bageze mu za bukuru ni abantu baba bagomba kwitabwaho bagatekerwa ibiryo byiza ndetse byujuje intungamubiri kugira ngo babashe kubaho batarwaragurika.

Umuforomokazi aho arimo yita ku musaza waje kwa muganga, arimo amuganiriza baganira ku by'ubuzima busanzwe.

Abapapa babiri bari ahantu muri saro ko basa nk'aho bashaje, barimo bakina umukino wo gukurura umugozi, bakaba bawukina bishimye kandi banezerewe cyane.

Ku basaza, gusoma ibitabo, biri mu bintu by'ingenzi, kuko bibafasha, bikabarinda ubwigunge, ndetse n'ibindi bintu byabatera agahinda, bityo bagahora baseka.

Ni abaganga batandukanye, bambaye neza, ndetse bafite n'amakarita y'akazi. Aho barimo bifotoza inyuma y'akazi.

Abaganga bari mu bantu b'ingenzi. Kuko iyo twagize ikibazo cy'uburwayi, turabagana. Bakatuvura cya bakatugira izindi nama, mu buryo twakitwara kugira ngo, tumererwe neza.

Gukingira abantu biri mu bintu bibarinda indwara haba izandura, izitandura ndetse n'izindi.

Umunsi mukuru ubwo abantu bahuriye hamwe barimo bizihiza ibyiza bagezeho kandi bishimye.

Indwara y'ubushita bw'inkende, iri mu ndwara zadutse ndetse zikica n'abantu benshi, kubera iyo mpamvu ibihugu bitandukanye, byagiye bifata ingamba ndetse ikaburira n'ababituye kwirinda iyi ndwara.

Umugore wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame aho ari imbere y'abantu, arimo abagezaho ijambo rye, hari ku munsi wo kwiyamamaza wa Perezida wa Repubulika.

Inama yabaye kuwa makumyabiri na gatandatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'icyenda, igateranira muri Lemigo hoteri, iri kwiga ku kibazo cy'ubuzima, ikitabira abantu batandukanye ndetse b'ingeri zose.

Kwigisha ku buzima bw'imyororokere mu mashuri, ni kimwe mu bintu by'ingenzi kuko gifasha abana kuyisobanukirwa no kumenya uko bakirinda zimwe mu ndwara.

Inama ishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuzima yateranye ku itariki makumyabiri n'imwe ku inshuro ya makumyabiri, ikaba yitabiriwe n'abayobozi batandukanye bagiye baturuka hirya no hino hamwe n'abaturage bari imbere yabo.

Abayobozi ba minisiteri y'ubuzima, ni bamwe mu bayobozi baba barahiswemo kugira ngo bagenge kandi bagene ubuzima bw'abaturage.

Icy'ubuzima ni ingingo ihurirwaho n'abandi benshi, mu nama, mu mashuri, ku bitaro ndetse n'ahandi hantu.

Umusaza wambaye neza wambaye ikote ndetse na karuvati, aho ari imbere kuri mikoro arimo, ari mu nama abwira abitabiriye inama uno munsi ku bijyanye n'ubuzima.

Ibiryo bitandukanye harimo karoti, harimo ibishimbo, harimo imboga, harimo ibinyamisogwe n'ibindi byinshi biri mu bigize ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi, bikaba bigize indyo yuzuye.

Abaforomo n'abaforomokazi bari mu kazi kabo, aho bambaye udupfukamunwa, inifomo yabo izwi n'amakanzu n'ingofero ndetse na ga, bibafasha kwirinda indwara iyo ari yo yose.

Ikibazo cy'ubuzima, ni ikibazo kivugwaho muri Afurika ndetse no ku isi yose, kubera ko ari ikibazo gihangayikisha isi muri rusange.

Ubuzima ni kimwe mu bintu bihuza abantu benshi: abayobozi, abaturage n'abandi bantu bo mu ngeri zitandukanye.

Umuntu urwaye ku kuboko, aho ukuboko kwe kwazanye uduheri ndetse kukanafurutwa kugahindura n'ibara, bisa nkaho ari nk'ikintu cyamubabye cyangwa indwara y'uruhu yamufashe.

Abayobozi batandukanye aho bari mu nama i Kigali, yo guca intege no gutuma icyorezo cya Marburg gicika mu Rwanda.

Abakobwa batandukanye, bafite amashusho barimo bayamanika bishimye baseka, batatu abandi bane, abandi batandatu n'abandi batatu, ubona ko bari mu matsinda kandi bose bishimye.

Abaganga bambaye inifomo, aho bari mu bitaro baganira, batera urwenya kandi baseka.

Sale nini cyane iri mu bitaro, irimo amatara, irimo sima kandi yubatse neza abantu bahuriramo cyangwa bagakoreramo inama.

Umurwayi urembye aba mu cyumba cya wenyine kirimo umutuzo, kirimo amahumbezi, kitarimo urusaku n'ibindi bintu byose byatuma adahumeka neza.

Ibitaro biri ahantu heza, bifite jaride nziza, ibiti by'imbuto n'ibindi biti bitandukanye bigize amahumbezi ndetse bitatse ibyo bitaro.

Ibitaro bimeze neza bikoropye birimo amatara, ibimenyetso biyobora abaganga abarwayi ndetse n'abarwaza hamwe n'indi mitako ituma hagira amahumbeza.

Ku bitaro ni ahantu haboneka abantu benshi, tuhasanga abaganga, abarwayi ndetse n'abandi bantu bafasha gukora amasuku kugira ngo ibitaro bibone umutuzo n'umudendezo n'abarwayi babashe kubaho bisanzuye.

Ibitaro bifite inyubako zubatse neza, harimo n'inzu yubatse mu buryo bw'ikizeru kandi isa neza, akaba ari itaje, ifite ibirahure byiza, imbuga nziza, jaride ndetse n'ibindi.

Umupapa waje kwa muganga kwipimisha aho ari kumwe n'umuforomokazi barimo barebana aseka kandi bombi bishimye cyane.

Farumasi iba mu mujyi wa Kigali, ikaba yubatse neza kandi yubatse mu buryo bw'itaje igeretse gatatu, ikagira imiti y'ubwoko bwose kandi ivura indwara nyinshi.

Sare yo kwa muganga, aho abantu benshi babanza iyo bakigera kwa muganga bategereje ubafasha, irimo ibikoresho bitandukanye, bituma abantu batarambirwa cyangwa ngo bagire irungu.

Ibyuma, byinshi biboneka kwa muganga, harimo ibifasha abaganga kongerera abarwayi amaraso, umwuka ndetse n'ibindi.

Uburiri bwo ku bitaro, buryamaho abarwayi, bushashe neza, bufite igitanda kiza, inzitiramubu, amarido n'ibindi bintu bishobora gutuma umurwayi atagira ikimuhungabanya.

Abaganga benshi aho bari muri sare bambaye unifomo n'amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro n’amajipo barimo basuzuma indwara zitandukanye.

Ibitaro byubatse neza birimo ibyumba byinshi n'umwanya munini hagati yabyo, ufasha abaganga gutemberamo no kunyuzamo umurwayi urembye.

Intebe zo kwa muganga umuntu yicaraho, iyo agiye gucishwa ku cyuma hamwe n'utundi twuma, dufasha muganga kugenzura neza ubuzima bwe kugira ngo amenye niba nta kibazo afite.

Ibikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga ndetse n'imitako iri muri sale ishobora gufasha abarwayi, hakaba harimo ibitanda intebe hakaba harimo imashini ndetse n'utundi dukoreshasho tugiye dutandukanye twafasha mugangagana n'umurwayi, kugirango amererwe neza.

Umwana w'umuhungu wajyanye kwa muganga aho arimo igisekesha muganga akaba arimo amusuzuma uwo mwana yambaye ubusa hejuru.

Kwa muganga ni ahantu dusanga ibikoresho bitandukanye, gusa byose bifasha abaganga, mu gukora akazi kabo neza.

Ibitaro byo kwa muganga bifite ibitanda byiza cyane, kuri ibyo bitanda hakabaho hariho amarido ndetse n'inzitiramubu zifasha abarwayi kugira ngo imibu itabaruma.

Icyumba kimwe cyo kwa muganga kirimo intebe, kirimo igitanda, kirimo imashini n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa na muganga iyo arimo kuvura abarwayi.

Ibigo nderabuzima ni bimwe mu bitaro bito byubatswe, kugira ngo Leta igeze gahunda y'ubuvuzi ku muturage bimworoheye.

Intebe nziza zo kwa muganga abarwayi bicaraho iyo bagiye kwivuza, zikoze mu buhanga buhanitse hamwe n'ibyuma bifasha abarwayi ndetse n'abaganga.

Abaganga babiri bambaye inifomu ndetse n'udupfukamunwa barimo barebera hamwe ibisubizo by'umurwayi wari urwaye.

Ibitaro byiza byubatswe neza, aho hari abantu bahagaze hanze yabyo ndetse n'imodoka imwe ibivaho.

Igitanda cyo kwa muganga gishashe neza, kiri kumwe n'ibikoresho nk'imashini n'ibindi byinshi bifasha muganga kwita ku murwayi neza.

Ku bitaro ni ahantu abantu bajya iyo bafashwe n'uburwayi cyangwa bakoze impanuka, bahurirayo n'abaganga babafasha bakabitaho bakabaha ibinini cyangwa ubundi bufasha, bityo bakagarura ubuzima.

Farumasi irimo imiti myinshi itandukanye, hari n'iy'abana, iy'ababyeyi, iy'ubuzima ndetse n'iyindi.

Umuntu urimo usohoka, muri farumasi ya Murekatete Denyse, hamwe n'umumotari, uhaparitse, amurindiriye.

Abarwayi babiri aho barwariye mu byumba kimwe, ibitanda byabo bikaba byegeranye basa nkaho barembye, imbere yabo hakaba hari amazi n'utundi dukoresho twose bashobora gukenera.

Iyo umuntu ageze kwa muganga yakirwa neza cyane, ukihagera ujya aho bategerereza ukicara ukaba utegereje ko bagufasha.

Mu bitaro aho harimo imitako igiye itandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye, bifasha abarwayi kugira ngo bananure ingingo zabo ndetse n'ibindi.

Ikigo nderabuzima cya kigina aho giherereye hafi y'umuhanda cyikaba cyubatse neza imbere yaho ku muryango hakaba hahagaze umumama uhetse n'umwana.

Kwa muganga ni ahantu h'umwihariko ndetse n'inyubako zaho ziba zitandukanye n'iz'ahandi hantu, habamo ibyumba byinshi, habamo amasaro menshi, ndetse hagati y'ibyumba haba harimo umwanya mubitandukanye

Umwana ufite ubumuga, aho ari kugendera mu kagare, agenda yisunika agana hafi y'ibitaro.

Ibitaro birimo ibikoresho bitandukanye, bifasha abarwayi kugira ngo bamererwe neza. harimo ibikoreshwa bagorora ingingo ndetse n'ibindi.

Abagabo benshi ndetse n'abagore, barimo abayobozi, bahagaze ku bitaro bya Rwamagana biboneka mu karere k'Iburarasirazuba.

Abantu bari ku kigo nderabuzima cya Nyarurenzi, aho kiriho abantu benshi baje kwivuza, barimo bategereje ko babakorera.

Abantu bahagaze ku kigo nderabuzima cya Gishweru, harimo muganga ndetse n'abarwayi, barimo bota akazuba kandi baruhuka.

Icyuma cyo kwa muganga gifasha abaganga mu gukora akazi kabo vuba ndetse nta n'uwo babangamiye.

Ibiro by'ikigo nderabuzima cya Rwerere, aho biri ahantu heza, imbere yabyo hakaba hakikijwe indabyo zikase neza, jaride hamwe n'imbuga iteyemo indabo.

Intebe zitandukanye zo kwa muganga ibitanda ndetse n'imashini, ziteretse imbere y'ibyo bitanda zifashishwa iyo baha imiti abarwayi cyane cyane abarembye.

Ibikoresho bitandukanye biboneka mu bitaro nk'imashini z'ubwoko bwinshi, zifashishwa kugira ngo bamenye uburwayi bw'umuntu.

Ibitaro bifite ibyumba byinshi, ndetse birimo n'ibikoresho byinshi, byifashishwa kwa muganga kugira ngo bifashe abarwayi ndetse n'abaganga akazi kabo.

Umuganga wambaye ibikoresho by'ubwirinzi, nk'amashashi, itaburiya, ndetse n'ibindi, aho ari ku bitaro akora akazi ke nk'ibisanzwe.

Laboratwari iri ku bitaro, ikaba ipimirwamo indwara ya malariya, umuntu bamusuzuma bareba ko ayirwaye kugira ngo babone uko bamufasha bamuhe n'imiti imukwiye.

Ibikoresho bitandukanye, biboneka kwa muganga, harimo ibihazana amahumbezi, n'ibifasha abaganga, mu gukora akazi kabo neza.

Ibikoresho byo mu bitaro bitandukanye bifasha abaganga mu kureba indwara umurwayi arwaye ndetse no kubavura harimo imashini n'utundi dukoresho dutandukanye turi mu mpande n’impande tubafasha kugira ngo banoze akazi kabo neza.

Umuntu uhagaze munsi y'inzu nziza y'itaje ikoze amasuku, ifite amarange meza cyane ndetse n'ibindi bintu byose bisabwa mu nzu nziza.

Abantu babiri ndetse bafite n'abandi bana babo babiri, bicaye ku kigo nderabuzima cya Shagasha.

Kwa muganga ni hantu haboneka ibintu byinshi imitako, isuku, amazi n'ibindi bintu byafasha abarwayi.

Umupapa wagiye kwa muganga akaba aryamye ku gitanda, arimo aseka kandi yishimye bisa nkaho amaze koroherwa.

Sale yo ku bitaro, irimo ibyuma bitandukanye, ikaba irimo intebe, ikaba irimo mashini n'utundi dukoresho twose twifashishwa na muganga kugira ngo avure umurwayi bimworoheye.

Ku bitaro ni ahantutu umurwayi ajya akitabwaho, agahabwa selumu, ibinini ndetse n'ubundi bufasha bwatuma abaho neza.

Abarwayi benshi batandukanye baje kwa muganga, bakaba ari benshi bityo bakaba bicaye ku dutebe bategereje kugira ngo baze gufashwa.

Ku bitaro ni ahantu hahora umutozo, hahora hasukuye, hahora hatondetse neza, umutekano ndetse n'ibindi.

Ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe imiti, ni ikigo cyubatswe kugira ngo giteza imbere amavuriro, icyo kigo gikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'imiti n'indwara n'uburyo bakwirinda ibyorezo ku Isi hose.

Abana ni abantu bitabwaho cyane kwa muganga, kuko ubuzima bwabo buba bufashwe n'akantu gatoya, bityo ibyo bituma abaganga babitaho cyane, bakabarinda icyabahungabanya kandi bakabahora hafi.

Inzu y'ababyeyi ni icyumba kiboneka ku bitaro, bityo kikaba kijyanwamo ababyeyi bagiye kubyara.

Inzu nziza iri ku muhanda ipavomye, izitiye aho hari imodoka iri imbere yayo n'izindi nyinshi zihaparitse.

Ibikoresho byifashishwa n'abana bakiri bato, cyane cyane abanyeshuri biga muri garidiyene, babyifashisha babyinyongaho kugira ngo bibashimishe.

Imiti yatunganyijwe iba yavuye mu miti gakondo n'ibyatsi, ibimera ndetse n'ibindi, igatunganywa ku buryo bwiza bityo igashyirwa mu tuntu twabugenewe.

Ibyuma bikoreshwa kwa muganga harimo kompiyuta hamwe n'ibindi biteye ukwinshi, bifasha muganga gukora akazi ke neza mu buryo bunoze.

Ibitaro bivura indwara y'amaso, byubatse neza ndetse uruhande rumwe bikaba byubatse mu buryo bw'ibirahure, bikaba bifite imbuga isa neza ndetse n'ikirere cyaho gisa neza.

Ibitanda byo kwa muganga, biri mu bintu byitabwaho cyane. Bihoraho amashuka asa neza y'amabara atandukanye kandi ashashe neza.

Uko imyaka igenda yiyongera ninako abantu bagenda bavumbura ibikoresho ndetse n'amarobo abafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ibitaro bivura amaso, aho biri ahantu heza, bikaba biteweho indabyo, bifite imbuga nziza irimo amatafari atondetse neza ndetse n'ibindi.

Umubyeyi wajyanye umwana umeze nk'aho akiri muto kwa muganga bityo muganga akaba ari kumwe na we, agenda amusuzuma areba icyo arwaye kugira ngo amufashe.

Ibitaro byubatse mu buryo bumeze neza bifite indabo, bifite umucaca n'inzira ijya ku bitaro ikoze neza kandi ikubuye aho biri mu gace keza gafite amahumbezi.

Salo ni kimwe mu cyumba kiba kirimo imeza, intebe nziza, indabyo n'indi mitako ishobora gutuma hahumura neza.

Ikigo nderabuzima, aho kimeze neza, kikaba gifite ibigega ndetse hariho n'abantu babiri bari gutembera hanze, hakaba hariho no muri materinete aho abagore bajya kubyarira.

Umuforomo w'umupapa, ufite n'ibikoresho, wambaye amadarubindi aho ahagararanye n'umurwayi arimo aseka kandi yishimye.

Farumasi iboneka i Remera imbere y'iyo farumasi hakaba hari indabyo ziteye mu mavaze kandi zikase neza, hakaba hari imodoka bisa nkaho ari umukiriya waje mu modoka akaba ari muri farumasi.

Abantu benshi batandukanye, harimo abana, abagore, abagabo, hamwe n'imodoka, aho bari ku kigo cya RBC baje gushaka serivisi.

Farumasi nini cyane, iri muri sare ahantu, ikaba irimo imiti myinshi ndetse iyo miti ikaba itondetse neza, ku buryo bwiza kandi bunogeye buri wese.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa n'abaganga iyo bapima uburwayi cyangwa indi ndwara y'abarwayi kugira ngo babone uko babaha imiti ibakwiriye.

Kwa muganga ni ahantu hahora hasa neza intebe, amatara, ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho byose bihaboneka biba bisa neza cyane.

Abantu babiri ndetse n'abandi bantu bari munsi y'umuhanda, ahagana ku kigo nderabuzima cya Matyazo, aho abo bantu barimo basohoka muri icyo kigo nderabuzima.

Inzu nini yitaje yubatse mu buryo bw'ibirahure ndende cyane aho imbere yayo hateye ibiti by'umukindo pasiparumu ndetse n'ibindi biti byinshi byagufasha gukurura amahumbezi.

Imiti y'ubwoko bwinshi, iri mu bimwe mu bintu dusanga kwa muganga. Gusa yose iba ibereyeho mu gufasha abarwayi baza bahagana.

Farumasi nziza cyane, yubatse mu nzu nziza cyane, aho irimo imiti myinshi kandi itondetse neza, ndetse hakaba hari n'imodoka iparitse imbere yayo.

Inzu y'ababyeyi b'impinja, aho ababyeyi bose bamaze kubyara hamwe n'abana babo, bajya bavuye muri materineti, inzu babanzamo mu gihe batari babyara.

Umuganga aho ari kwita ku murwayi, amusuzuma agenzura neza kugira ngo aze kumuha imiti ikwiranye n'uburwayi bwe.

Ibikoresho biboneka kwa muganga nk'uburiri bushashe neza, ibyuma bifasha abarwayi guhabwa saromo ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi bw'amaso ni bumwe mu buvuzi bwateye imbere cyane, kuko n'indwara z'amaso zisigaye zariyongereye kandi akaba ari no mu ndwara zihangayikishije abantu benshi.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye byifashishwa, bifasha abaganga mu gukora no kunoza umurimo wabo neza bita ku barwayi.

Ibikoresho byifashishwa ku bitaro bizwi nka mikorosikopi ndetse n'ibindi bifasha abaganga kumenya indwara abarwayi barwaye.

Mu bitaro aho bavurira amaso, aho imbere ku gikuta hashushanyije ijisho n'ibice birigize, hakaba hari intebe nziza ndetse n'indi mitako myinshi.

Ibitanda byo kwa muganga bishashe neza, biriho n'ibindi bintu byiza ndetse bifite n'utwuma ku ruhande dushobora kurinda umurwayi ko aza kugwa mu gihe arimo kwinyeganyeza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda cyiza kiriho umusego kikaba kiriho n'amashuka meza. Ndetsetse imbere y'igitanda hakaba hariho n'ibindi bikoresho, mu cyumba hakaba harimo amazi ndetse n'ibindi bintu byose byakenerwa n'umurwayi

Inzu iri ku muhanda ifunguye hanze hakaba hariho intebe eshatu, icyapa ndetse n'ibindi bintu biharanga.

Abapapa bagera muri batandatu, bambaye amashati y'umweru, buri wese afite agakapu mu ntoki karimo udutambaro tw'umweru, atembera mu muhanda.

Abamama batatu bambaye inifomo n'udutambaro mu mutwe, aho barimo bifotoza bishimye bamaze gukora akazi kabo.

Mu bitaro mu cyumba cy'aho bategerereza, aho hari amahumbezi, hameze neza, ibimenyetso biyobora abarwayi ndetse na nomero, biri ku cyumba ushobora gusangamo umuganga kugira ngo hatazagira uyoba.

Ibitaro bya Nyanza ni bimwe mu bitaro biboneka i Nyanza, bikavura indwara zitandukanye.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya aho biherereye hafi y'umuhanda imbere yabyo hakaba harimo ibiti bikaba ari'ibitaro byubatswe mu buryo bwa etaje kandi byiza cyane.

Abaganga babiri barimo batembera mu bitaro byubatse mu buryo bwa etage aho bifite jaride nziza ndetse ukaba ubona ko byubakishije amabuye.

Ibitaro bifite icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane bigizwemo na mashini n'utundi dukoresho dutandukanye twinshi twifashishwa na muganga arimo asuzuma indwara z'abarwayi.

Akayira kajya ku bitaro aho kameze neza, kakaba gatondetsemo amatafari, impande yaho bakaba hari umucaca mwiza kandi ukoze neza, mu mucaca hakaba hateyemo ibiti ndetse n'indabo.

Kirinike ifite imitako, amahumbezi, udutebe mo imbere, ibikuta bikozemo birahure, amatara ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byo kwa muganga bituma mu bitaro hahoramo akayaga,, intebe nziza indabo ndetse n'ibindi biri mu bintu tubona kwa muganga.

Ibitaro bipavumyemo amakararo, amarangi meza ari ku nkuta ndetse no ku nzugi ndetse biri n'ahantu heza ku buryo binezeza ubigeramo wese.

Imodoka iri impande y'ibitaro byubatse mu buryo bwa etage impande y'ibitaro hakaba hari n'abandi bantu benshi bahahagaze bamwe abaganira abandi bagenda ndetse hakaba hari n'indabyo zihateye hamwe n'umucaca umeze neza.

Umuti ukoze mu mavuta umuntu yisiga ahantu ari kubabara bityo bigatuma ububabare bugenda bugabanyuka mpaka bushize.

Ibikoresho byo muri siporo, harimo ibyifashishwa bagorora amaguru, umugongo, ndetse n'ibindi, kugira ngo ubuzima bwa muntu, bukomeze kugenda neza.

Isaha ndetse n'ibindi bipimisho biri mu bintu byifashishwa muri siporo babara igihe, uburebure, ingano ndetse n'ibindi.

Umurwayi ari kwa muganga, aho ari kwitabwaho uko bikwiye na muganga, yubitsi inda bityo bakabasha kumupima kugira ngo amenye indwara arwaye.

Umuntu ufashe mu ntoki igikoresho cya siporo cyifashishwa n'abakinnyi, bacyambara ku maguru cyangwa ku maboko kugira ngo bataza kuvunika.

Umuntu uhagaze arimo yinanura areba hakurya akaba yambaye isaha hamwe na ka jezi bisa nkaho ari muri siporo inanura kugirango umubiri we umere neza.

Siporo iri mu bintu tuba tugomba gukora buri munsi kuko ifasha umubiri wacu kugororoka ndetse ikawurinda no kurwaragurika.

Umuntu wavunitse aho arimo afashwa na muganga, ashyigwaho ibipfuko n'ibindi bintu byamufasha kugira ngo yoroherwe.

Abana ni abantu bagomba guhora bakina ndetse bishimye, bakagurirwa ibikinisho n'utundi dukoresho twabafasha gukangura ubwenge bwabo.

Umuntu wakoze siporo akenera kunywa amazi kandi menshi cyane. Kuko umubiri we uba watakaje andi. Nyuma y'iyo mpamvu utanyanyweye bishobora kukugiraho ingaruka.

Ibikoresho nk'inshinge, umukasi, ga, amatara, ibinini ndetse n'ibindi biri mu bikoresho byifashishwa muri siporo.

Umupapa w'umuzungu, aho arimo afungira undi muntu ga, ubona ko ari nk'umukinnyi ugiye kujya mu kibuga, bityo uwo uri kumufungira akaba ari umutoza we.

Umukobwa urimo ukora siporo ananura amaguru ndetse n'umubiri wose kandi arimo yiyumvira umuziki binyuze muri kuteri.

Umusore w'ibigango wambaye agapira ufite ekuteri mu matwi, aho ari kunywa amazi akoresheje agacupa, kandi ari muri siporo.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo nk'iyo umuntu yagize ikibazo nko kuvunika ndetse n'ikindi kibazo cyose agira ari muri siporo bityo bikamufasha kumererwa neza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu ndetse no muri siporo muri rusange, niyo mpamvu umuntu wese uvuye muri siporo cyangwa uyirimo, aba asabwa kunywa amazi kandi menshi.

Ubuzima bw'umuntu buba bugizwe n'ibice byinshi, harimo umutwe, umugongo, amaboko, amaguru ndetse n'ibindi. Gusa byose birafashanya kugira ngo bibashe gukura neza.

Ibikoresho bya siporo, ni ibinini, imiti cyangwa ibindi bintu bishobora kuba bimeze nka gaze, abakinnyi bifashisha mu gihe bahuye n'ikibazo bityo ibyo bintu bigatuma bagarura ubuyanja bakaba basubira mu kibuga bameze neza.

Umuforomokazi wambaye inifomo aho arimo, afashe umupira yishimye kandi arimo aseka cyane.

Umupapa wambaye agasengeri aho arimo akora siporo ananura amaboko, ndetse n'izindi ngingo z'umubiri.

Umu mama uri muri siporo akaba agorora amaguru ndetse n'amaboko akaba yicaye hasi yambaye agapantaro k'umukara hamwe n’agasengeri akaba arimo yikorera udusiporo kandi yishimye.

Ibikoresho binyuranye bigenda bikoreshwa muri jimu nk'ariteri, utugare ndetse n'ibindi kugira ngo bifashe abajyamo kugorora ingingo zabo.

Umuntu uri muri siporo yambara bitandukanye n'abandi, ashobora kwa amajezi, imyenda itamufashe cyangwa n'utundi tuntu twamufasha kugira ngo akore siporo ye neza.

Amazi, biri mu bintu umubiri wa muntu ukenera, ikindi ni uko ari ikintu umuntu akenera cyane iyo ari muri siporo.

Umugabo bari kuvurira kwa muganga wavunitse akaguru, bakaba bamushyize mu cyuma kimufasha kukagorora neza bityo agakira.

Umupapa aho arimo akora siporo ananura umubiri ndetse n'amaboko kugira ngo amererwe neza, akoresheje uturiteri.

Umuntu urimo yikanda akoresheje agatambaro kabugenewe ndetse n'amazi ashyushye, bisa nk'aho yavunitse ari muri siporo, bityo akaba yikanda kugira ngo aze kumererwa neza.

Umuntu uri gukora siporo ubyibushye, akaba yambaye isengeri hamwe n'ikabutura, akaba kandi yambaye inkweto za siporo, aho arimo agenda asimbuka utuzu tugiye dutandukanye kugira ngo abyimenyereze.

Kovide cumi n'icyenda ni icyorezo cyateye Isi muri bibiri na makumyabiri, bityo gituma hashyirwaho ingamba nyinshi.

Umuntu uri muri siporo aho ari gusunika ikintu kiremereye akoresheje amaboko ye kugira ngo ananuke, kandi umubiri we uhore umeze neza ntazamugare.

Umu papa uhagaze imbere y'umuganga aho umuganga yamuhaye igikoresho yazaza kimufasha kugenda neza kuko ubona asa nkaho afite ikibazo cy'umugongo.

Inkweto nziza z'umukara ndende zikomeye, zikoze nk'iza gisirikare, zikaba ziriho agapapuro kandiditseho ngo Bato.

Umupapa uri kwa muganga yagiye kwivuza ukuguru, aho muganga arimo amunura, amukorera n'ibindi byose byatuma ukuguru kwe kumera neza.

Umurwayi uri kwa muganga, aho imbere ye hahagaze abandi bantu benshi basa nk'aho baje kumusura, hakaba hari n'abaganga akaba arwaye ukuguru ndetse bamuhaye imfashangigo kugira ngo aze agushyiraho kugira ngo kuzakire vuba.

Siporo yo kwiruka ni zimwe muri siporo zitabirwa n'abatari bake ndetse zikanezeza n'abafana, ni muri iyo mpamvu ari zimwe mu zikurura abantu batandukanye.

Umuntu urimo yikanda wavunitse kugira ngo yongere amererwe neza.

Ibikoresho byifashishwa mu mupira w'amaguru n'umupira bakoresha bakina, godiyo, inkweto bakoresha bakina bambara mu maguru ndetse n'udukoresho twifashishwa n'umusifuzi.

Ibinini bitandukanye harimo iby'umweru, iby'umuhondo, hakabamo ibitoya n'ibinini biri ahantu biri kumwe n'ipombo, bikaba byakifashishwa nko muri siporo nk'umukinnyi abirya kugira ngo ataza kunanirwa cyane cyangwa ngo amererwe neza mu gihe yananiwe.

Icyuma cyifashishwa n'igitsina gabo cyane cyane urubyiruko kugira ngo kitagira inda nini, ahubwo ibe ntoya kandi ikomeye ari byo bita kugira sigisi paka.

Inama uburyo umuntu yakoramo siporo kugira ngo ananure umubiri we, harimo guhagarara ku kuguru kumwe, guhagarara ku maguru abiri wihengetse ndetse n'ibindi.

Muganga aho arimo afasha umwana wavunitse, amushyiraho ibipfuko ku maguru yombi, umwana yicaye ku kameza.

Gukora siporo winanura, ni bimwe mu bintu bituma umubiri wawe ubaho neza, bityo bikakurinda zimwe mu ndwara.

Umuntu urimo utunganya amazi, ayakura mu kajage ayashyira mu karahure kugira ngo aze kuyanywa.

Iyo umuntu avunitse ari muri siporo arimo yiruka, akina cyangwa izindi biba ngombwa ko yikanda, bityo bigatuma amererwa neza.

Umwana uri hagati y'abamama babiri, aho barimo bamukoresha siporo kugira ngo ananuke n'umubiri we ubashe gukora neza.

Imiti itandukanye ikoreshwa muri siporo, harimo pomade, harimo iya gaze, harimo iy'umwuka ndetse n'indi ifasha abakinnyi kugira ngo bamere neza iyo bahuriye n'ikibazo mu kibuga.

Amazi ni kimwe buri muntu wese aba agomba gufata buri munsi ndetse akayanywa kenshi gashoboka.

Ikibazo cy'imvune haba ku maguru, ku maboko ndetse n'ahandi, ni ikibazo abana benshi bakunda guhura nacyo.

Insimburangingo nk'inkweto n'ibindi bikoresho byambarwa cyangwa ibyuma byifashishwa n'abafite ubumuga, ni bimwe mu bintu bigezweho cyane.

Mama bari gukora siporo imbere ye hari utu ariteri tubiri, umunzani, amazi ndetse n'utundi tuntu twose twamufasha kunanura umubiri we.

Abarwayi bari kwa muganga aho bari gufashwa mu kugororwa zimwe mu ngingo z'umugongo n'amaguru ndetse n'ibindi.

Umuntu wavunitse ukuguru aho arimo kwitabwaho, bamukanda bamushyiriraho imiti ndetse n'ubundi bufasha bwatuma amererwa neza.

Gukora siporo twinanura biri mu bintu bituma ingingo zacu zigororoka kandi zigakomeza gukora mu buryo bwiza.

Abapapa babiri barimo gukora siporo, bagenda basimbuka utuntu tw'utuziga, bambaye imyenda ya siporo ndetse bafite n'isaha barimo bagenda bakora siporo kugira ngo umubiri wabo unanuke.

Ibikoresho bishobora kwifashishwa muri siporo, nk'umupira, kwirukanka, ariteri, kwinyonga ndetse n'ibindi.

Umukobwa urimo yinanura muri isengeri ndetse n'ipantaro akaba afite imisatsi yagiye gusukisha yicaye ku ntebe kandi yishimye.

Imiti ikoreshwa iyo umuntu yagize ikibazo ari muri siporo, harimo: igabanya uburiribwe, igabanya ububyimbe, nka pomade ndetse n'iyindi.

Abakinnyi ni abantu baba bagomba guhora bafite ubutabazi bw'ibanze kandi bakitabwaho cyane, kuko baba bashobora kuvunika cyangwa bagahurera n'izindi ngorane mu kibuga.

Umuntu uri gusuka amazi mu gakombe, ayakuye mu ijaga kugira ngo aze kuyanywa.

Umuntu wambaye agapira k'ubururu, akaba yambaye n'agakoma mu ijosi. Akaba arimo anywa amazi kandi yishimye cyane.

Imbuto zitandukanye, harimo inyenyeri z'umutuku, iz'umukara, arimo imboga, harimo amarongi, hamwe n'umutobe waturutse muri izo mbuto.

Umwana urimo unywa amazi akoresheje icupa kandi ryiza, akaba ari no kumva umuziki muri ekuteri.

Ibitaro bikiri kubakwa aho biriho abafundi, abayede n'abandi bantu bafasha abafundi kugira ngo ibyo bitaro birangire.

Iyo umuntu avunitse ari muri siporo arafashwa, ashobora gusigwa pomade cyangwa indi miti, ashobora gupfukwa cyangwa agahabwa izindi nyunganizi.

Umupapa ari muri siporo, aho yicaye arimo aruhuka kandi anywa amazi kugira ngo ayisubiremo.

Umuntu wambaye agapira k'ikijuju urimo anywa amazi akoresheje gurude akaba arimo ayanywa kugira ngo amufashe mu buzima.

Imiti yifashishwa muri siporo, iyo umuntu yavunitse cyangwa yagize ikindi kibazo arimo akora siporo. Harimo pomade, harimo bande n'ibindi bikoresho by'ingenzi.

Umubiri w'umuntu ukenera amazi kugira ngo ubashe gukora, ni ukuvuga amazi ni kimwe mu bigize umubiri wa muntu, bityo ni ngombwa.

Umuntu usa n'uwakomeretse ufite igipfuko ku maguru, wambaye umupira w'umutuku kandi yicaye, aho arimo akora kuri icyo gipfuko cye, bisa nkaho igisebe kiri kumurya.

Iki ni igikoresho gihabwa abafite ubumuga cyane cyane ubw'amaguru kugira ngo babashe kugenda neza, kugera aho bashaka kugera, kibafasha kandi gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'ubusanzwe nko gutembera ndetse n'ibindi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, bishobora kwifashishwa umuntu umuha ubutabazi bw'ibanze, harimo nka ga, ibipfuko ndetse n'ibindi byose byatuma amererwa neza, mu gihe yahuye n'ikibazo.

Imiti ikoze mu bisukika iri mu ducupa tugiye dutandukanye utunini nu dutoya ifasha kugira ngo igabanye ubu ububabare cyangwa ikure ku bubabare iyo umuntu ari kubabara akaba ayikoresha.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abamama, abapapa, abakuru ndetse n'abatoya, aho bombi bambaye imyenda ya siporo, bakaba bari mu kibuga bakora siporo z'amaboko n'umubiri.

Umuntu uri gukora siporo, yambaye umukandara w'abakaratika kandi akora siporo azi, yishimye kandi abikunze.

Siporo ni igikorwa gikorwa n'abantu benshi, cyane cyane abakinnyi, abakire n'abandi bantu, bashaka ko ubuzima bwabo bubaho neza.

Umupapa aho arimo anywa amazi menshi, akoresheje icupa kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumererwa neza.

Ibikoresho bya siporo n'umupira w'amaguru, basikete, uw'amaboko ndetse n'ibindi bifasha abakinnyi iyo bari mu kibuga.

Uburyo butandukanye ashobora kwicaramo cyangwa guhagararamo, kugira ngo arinde ubuzima bwe ko bwajya mu kaga cyangwa ko bwafatwa n'indwara iyo ari yo yose.

Umuntu wakomeretse ukuboko, aho ari kwitabwaho n'umuganga, amushyiraho pomadi n'ibipfuko ndetse n'ibindi bintu byose byatuma amererwa neza.

Umuntu ufite ikibazo ku kaboko aho arimo yikanda akoresheje agatambaro keza n'amazi kugira ngo amererwe neza.

Umuntu ufite umupira ari kumwe n'undi, uri kugendera ku kagare kabugenewe, ubona ko afite ikibazo cy'ingingo, gusa akaba yaje mu kibuga kugira ngo na we akine.

Ibiryo bigizwe n'indyo yuzuye, hariho umugati, amagi, inyama, umuneke, inkeri, harimo amandazi n'imbuto zigiye zitandukanye, iri kumwe n'ibikoresho bya siporo nka ariteri ndetse n'ibindi.

Umuntu urimo ukora siporo, akoresheje ibyuma byabugenewe kugira ngo ananure umubiri we kandi amere neza.

Abaforomo n'abaforomokazi aho bari hamwe, bari kureba filime y'uburyo banoza umurimo wabo neza.

Umuntu uri gukora siporo aho arimo yimena amazi mu mutwe, mu maso ndetse no mu mugongo kugira ngo akomeze amererwe neza.

Ibikoresho byo muri siporo, harimo imakasi, harimo amazi, isaha, pomade ndetse n'ibindi.

Umwana w'umuhungu n'umukobwa aho umuhungu yicaye ku gatebe, umukobwaba akaba ahagaze bombi bambaye amakabutura bakaba bafite n'ibikapu bisa nkaho bombi baturutse muri siporo.

Amababi atandukanye, imbuto ndetse n'ibindi byakuba byakamuwe cyangwa bigasigurwa cyangwa bigatunganywa neza mu zindi nzira bityo akaba yavamo imiti.

Imiti gakondo ni imiti ituruka mu biribwa, ibinyobwa cyangwa ibindi byatsi bisanzwe. Iyo miti iratunganywa igashyirwa mu ducupa cyangwa utundi tuntu twabugenewe, bityo ikifashishwa iyo umuntu yahuye n'indwara runaka.

Korogati iva mu gikakarubamba igatuma amenyo atangirika ahubwo agahora abengerana.

Mu miti gakondo tubonamo iyo barya uko imeze, iyo barya basekuye, iyo bavuruga, iyo bavuguta ndetse n'ubundi bwoko.

Umuravumba uri mu mwe mu miti gakondo abantu bifashisha ivura iyo warwaye cyane cyane iya ari inkorora, ushobora guhekenywa, ukavugutwa cyangwa ugasekurwa hanyuma umuntu akanywa amazi yawo.

Umuravumba ni bimwe mu byatsi bivamo imiti gakondo, ishobora kuvura inkorora, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi ndwara nyinshi.

Imiti gakondo ituruka mu byatsi, mu bimera ndetse n'ibindi, aho itunganywa, igasekurwa bityo ikaba iri mu macupa ifunze neza kandi buri cupa rifiteho agapapuro kuko ikoreshwa.

Imiti, ibiribwa, ibinyobwa, ibyatsi, imboga, ibimera n'ibindi bintu bitunganywa bikabikwa ahantu habugenewe kugira ngo bizafashe umurwayi kugira ngo amere neza.

Imiti ituruka mu gikakarubamba ndetse n'ibindi byatsi, bityo ikaba itunganywa igashyira mu ducupa twabugenewe, bityo ikaba yakifashishwa ivura indwara zitandukanye.

Farumasi irimo imiti gakondo itandukanye kandi myinshi cyane yagi imwe yagiye iva mu byatsi indi mu bibabi bigiye bitandukanye hamwe n'ibindi bihingwa, ikaba yaratunganyijwe bityo bigashyirwa mu ducupa twabugenewe.

Umuntu arimo asekura imiti, arimo ayitunganya akoresheje isekuru n'agahini kugira ngo aze kuyifashisha avura.

Imiti yatunganyijwe y'ubwoko butandukanye, igashyirwa mu macupa, mu tubido ndetse no mu tundi dukoresho.

Indabo, ibiti, umuravumba, igicunshu ndetse n'ibindi, biri mu bintu bivanwamo imiti gakondo.

Igikakarubamba kiri mu bimera bivura indwara nyinshi, haba izo ku ruhu, izo mu nda, mu mutwe ndetse n'izindi.

Ipapayi ya kizungu iba irimo utubuto tw'umukara, ikaba isa nk'umuhondo bityo akaba ari imwe mu ipapayi ziryoha kandi zikunzwe cyane.

Amacupa atandukanye, yifashishwa hashyirwamo imiti ivura ibintu bitandukanye, maze kuri ayo macupa, hakomekwaho igipapuro kigaragaza uko iyo miti ikoreshwa.

Amababi y'igiti akurwamo imiti binyuze mu gukamurwa, gusekurwa ndetse n'ibindi bityo iyo miti ikaba yakifashishwa mu gihe umuntu arwaye.

Imiti gakondo, aho irimo isekurirwa, mu gasekuru kabugenewe kugira ngo itunganywe, bityo ize gukoreshwa.

Igiti cyakuze gifite amatabi menshi, gusa kidafite amababi menshi, aho gitewe mu bindi biti by'indabo.

Umujyanama w'ubuzima uri kumwe n'imiti itandukanye, aho yivugira ko ubu ashobora gusuma umurwayi, kumuvura ndetse no kumufasha akamererwa neza.

Aruviyora umuti uva mu byatsi gakondo, bityo ugatunganywa neza ku buryo ushobora kwifashishwa kwa muganga uvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi by'ibinyakinani ndetse n'ibindi bibabi bifatwa bigatunganywa bityo hagakugwamo imiti ishobora gukoreshwa kwa muganga.

Amavuta meza aturuka mu buki, akaba ari mu gakombe gashushanyijeho uruyuki, akaba ari amwe mu mavuta akunzwe kandi meza cyane.

Ubwoko bw'indabo buhingwa bityo bukaba bwakifashishwa mu mitako inyuranye, ahantu habaye ubukwe ndetse n'indi mirimbo.

Amababi y'ibiti by'ibinyacyaro agenda amera ahantu aho ariho hose, ashobora kuba yakamugwa cyangwa agasekugwa bityo akaba yakugwamo imiti ishobora kwifashishwa kwa muganga.

Ifu nayo iba umwe mu miti abantu barya, bakisiga cyangwa bakayikoresha kugira ngo ibavure, gusa igomba kuba yaturutse mu biti, ibibabi cyangwa ibindi bintu bivura.

Ubuki bwatunganyijwe neza bugashyirwa mu kabido ndetse bugapfundikirwa neza, bityo bukaba bwakwifashishwa bu kuvura indwara zitandukanye nk'izo mu nda ndetse n'izindi.

Imiti gakondo iri mu buryo butandukanye harimo isekurwa, harimo iy'utubuto n'iy'utubabi yifashishwa ivura indwara nyinshi nk'izo mu nda, izo ku ruhu ndetse n'izindi.

Imbuto, imiteja, ibinyampeke, ibinyamafufu n'ibindi bintu byinshi biturukamo imiti gakondo ndetse n'indi dukoresha kwa muganga.

Imiti gakondo itunganyijwe ikuwe mu gikakarubamba, bityo ikaba ishobora gukoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi, ivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ikoze mu buryo butandukanye harimo ivuguse, harimo itavuguse, harimo utubabi, hakaba harimo imbuto ndetse n'indi yose yifashishwa ivura indwara zimwe na zimwe.

Amababi y'ibimera bitandukanye, ashobora kwifashishwa hakurwamo imiti yo kwa muganga binyuze mu kubikamura, kubisekura, ndetse n'izindi nzira.

Umuti wakuwe mu bimera, ukaba waratunganyijwe ugakamugwa, bityo ugashyirwa mu gacupa kabugenewe witwa umurava, ukaba wakwifashishwa n'umuntuntu uwo ari we wese.

Imiti itandukanye ituruka mu byatsi, ibibabi, ibihingwa ndetse n'ibindi, ikaba itunganywa, igashyira mu ducupa twabugenewe n'utundi tuntu kugira ngo izifashishwe.

Ikibabi kivamo imiti gakondo aho gifatwa kigasekurwa cyangwa kigakamurwa bityo hakaba havamo imiti, ishobora gukiza umuntu.

Amibe ni indwara ikunze gufata abantu benshi cyane cyane abageze mu za bukuru, ibi bituma baremba cyane bikaba byabaviraho n'urupfu.

Imiti gakondo iba yaturutse mu byatsi ndetse no mu bindi bimera igatunganywa bityo ikifashisha mu kuvura indwara zitandukanye nk'iz'amenyo izo umubiri ndetse n'izindi.

Korogate ikesha amenyo igatuma atarwara cyangwa ngo agire ikindi kibazo, bityo agahora yererana.

Ibihingwa nka tungurusumu, imbuto, ibinyamafufu ndetse n'ibindi biri mu bimwe mu bivamo imiti gakondo.

Imiti iri mu bintu biboneka mu bwoko bwinshi, harimo ibisukika, ibidasokika, ibinini, amazi ndetse n'ibindi.

Ibiti bitandukanye byo mu cyaro bivura indwara zinyuranye, nk'umuravumba aho uvura inkorora n'izindi ndwara zose zo mu nda.

Inanasi, utubuto, ubuki ndetse n'utundi tubuto tugiye dutandukanye umuntu ashobora kurya, bityo bikaba byatuma ahorana ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye ikurwa mu byatsi gakondo, igatunganywa bityo igashyirwa mu tuntu twabugenewe, ikaba yabasha kwifashishwa kwa muganga ndetse n'ahandi.

Igikakarubamba, ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo iz'uruhu, izo mu nda ndetse n'izindi.

Ibiti, ibimera, indabyo, ibiribwa n'ibindi bintu byose, bifatwa bigatunganywa bityo hakaba havamo imwe mu miti gakondo, cyangwa no mu miti ikoreshwa kwa muganga.

Korogati ikoze mu gikakarubamba cyatunganyijwe neza cyane, ikaba yifashishwa umuntu aborosa bityo ikaba yarinda amenyo ye uburwayi butandukanye cyangwa gukuka.

Ubuki, kimwe mu bintu biryoherera cyane. Kigakundwa na benshi kandi kikaba kivura n'indwara nyinshi, harimo nk'uburozi ndetse n'ibindi

Avoka kimwe mu kintu cyifashishwa bakora isabune, aho bayifata bakayitunganya, bityo hakavamo isabune ishora kwifashishwa abantu bafura cyangwa bakaraba.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti ni kimwe mu bigenzura ibiribwa byambukiranya imipaka, imiti kikareba nimba byujuje ubuziranenge ndetse n'ibindi bisabwa.

Farumasi irimo imiti gakondo, yatunganyijwe mu buryo bwiza cyane, bityo ikaba yakifashishwa ivura abantu, yashyizwe mu ducupa dutandukanye ndetse dufite n'amabara atandukanye.

Mu miti gakondo dusangamo ibibabi, utubuto, uturabyo, isekurwa, ikanjagurwa ndetse n'iyindi.

Imbuto nk'indimu, ibimera, ibyatsi, ibiti n'ibindi bihingwa byakwifashishwa gukuramo imiti.

Imiti iri mu bintu bituruka mu bimera byinshi, ibiribwa, ibinyobwa, ibiti ndetse n'ibindi.

Umupapa n'umumama aho bari mu ishyamba munsi y'igiti, barimo baganira ku ngingo zitandukanye.

Ubwoko bw'ibiribwa imbuto, ibinyampeke, imboga, ndetse n'ibindi biturukaho imiti gakondo dukoresha.

Umutobe uvuye mu mbuto zakamuwe, zigatunganywa bityo hakaba havuyemo umutobe mwiza, ushobora kunyobwa kandi urimo intungamubiri.

Imiti itunganyijwe inyuze mu ruganda ariko yaturutse ku byatsi ndetse n'ibibabi gakondo; muravumba, umubirizi, igicunshu ndetse n'ibindi bivura.

Akagera Medecine ni ibitaro bivura indwara nyinshi zitandukanye harimo iz'umutima, ubwonko, ibihaha, ubumuga ndetse n'ubundi.

Imiti gakondo nk'ibyatsi n'ibindi bibabi bitandukanye, aho irimo isekurirwa mu gasekuru kabugenewe kugira ngo itunganywe.

Imiti gakondo ni imiti ituruka mu byatsi binyobwa cyangwa ibiribwa abantu barya bigakora nk'imiti yo kwa muganga, bityo bigatuma boroherwa cyangwa bakira indwara bari barwaye.